Umwana w'umusore uhetsepombo, ari gufuhira intoryi kugira ngo zirushe kwera, ndetse yice mo udusimba, kugirango ngo azavanemo umusaruro mwiza.

Abagabo batatu bari mu murima bahetse ipombo barimo bafuhira imyaka kugira ngo bice udusimba twe kuyibuza gukura ndetse imyaka izere neza.

Umugabo uri mu murima we w'ubuhinzi ahetse ipombo, ari kuhira gutera n'umuti kugira ngo yice udusimba ndetse imyaka ikure neza.

Umugabo wambaye amataratara, wambaye uturindantoki, wambaye n'agapfukamunwa, uhetse pombo ari gufuhirira ibiti bya avoka ndetse n'indi myaka kugira ngo yice udusimba tureke tugabane twose dupfe ntidukomeze kwangiriza iyo myaka.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'akapfukamunwa afite na telefone ndetse hari n'abandi bagabo umwe muri bo yambaye agapfukamunwa ari gufuhirira imyaka kugira ngo yice udusimba.

Ubuhinzi bwa kijyambere buteye imbere ndetse bwo kuhira imyaka mu gihe k'izuba, bituma habaho kugira imyaka mu gihe k'izuba no mu gihe cy'amapfa, ndetse no mu gihe k'imvura, abantu bakiteza imbere batarindiriye ko imvura ibanza ikagwa.

Ibicupa by'imyeru bifite imifuniko y'icyatsi, birimo imiti yica udukoko mu myaka, bikaba bifasha abaturage mu gusarura imyaka yabo idafite ikibazo, imyaka imeze neza.

Abaturage bafashe indobani bavuye kuroba amafi, akaba abafasha mu kwiteza imbere mu gihe bayagurishije, mu kubona menerivari z'abana babo ndetse no kubona amafaranga yo kwizigama.

Icyumba kiza kirimo ibikoresho birimo amazi cyubakishije amatafari ahiye, ibikoresho bifasha abahinzi mu kororeramo amafi ndetse ayo mafi bakayagurisha akabateza imbere.

Abaturage bari ku kiyaga baje kuroba amafi, isambaza ndetse bikaba bibafasha mu kwiteza imbere, ikiyaga nacyo kigafasha abaturage mu gukora ingendo bambuka bava ahantu hamwe bakajya ahandi, bakambutsa n'ibicuruzwa byabo.

Abagabo bari ku cyuzi bari kuroba amafi, amafi atanga ibyo kurya harimo poroteyine, harimo batanga n'amafaranga, amafaranga atuma dutera imbere.

Umugabo wambaye ikoti ry'umuhondo uri mu gishanga ari guhinga umuceri ndetse akawutera kugira ngo uzere.

Abamama bari mu cyayi baje kugisoroma kugira ngo babone amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi harimo kugura ibyo kurya, kurihira abana minerivare ndetse no kwiteza imbere.

Ikawa n'igihingwa nzahurabukungu cyoherezwa mu mahanga, gifasha abaturage kwiteza imbere, gitanga akazi ku ngero zose, gitanga n'amafaranga ku bagihinze ndetse n'abagisaruye.

Ikawa zitarera aho zifasha abaturage mu kwiteza imbere bazisoroma bazihinga, bigatuma bakuramo amafaranga yo kurihira abana babo, yo gutangiza irindi shoramari ndetse bikababifasha n'Igihugu cyacu mu kubona imisoro.

Imbuto z'ikawa ni igihingwa nzahubukungu gifasha abaturage kwiteza imbere ndetse kikanakomeza ubukungu bw'igihugu icyo ari cyo cyose kigikoresha.

Umuceri mwiza usa neza uhinze mu gishanga ndetse ufasha abaturage mu kwiteza imbere, bakuramo amafaranga no mu gihe bari kuwusarura, kuwuhinga, bitanga akazi ku bantu benshi.

Ibicupa byinshi cyane byuzuye imiti myinshi itandukanye ikaba yifashishwa mu kuvura amatungo harimo inka, intama, inkwavu ndetse n'ingurube.

Amasashi arimo imiti y'amatungo, harimo inkoko n'inka abafasha mu kugabanya mu kuvura amatungo yabo kugira ngo adapfa anabateze imbere.

Amacupa arimo imiti y'amatungo harimo nk'inka, ihene, intama n'ingurube, ifasha aborozi mu guhangana n'indwara bavura amatungo yabo kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'imiryango yabo.

Ibikarito byinshi cyane birimo imiti y'amatungo ifasha aborozi korora neza ndetse bagaha n'inka zabo n'amatungo menshi atandukanye iyo miti, kugira ngo zirusheho kumera neza kandi barushaho kubona umusaruro wazo.

Amasashi arimo imiti y'amatungo nk'inkoko, bigafasha aborozi kugaburira inkoko zabo iyo miti kugira ngo zirusheho gutanga amagi, inyama ndetse igabanya no gupfa kwazo.

Amasashi arimo imiti y'amatungo yo mu rugo harimo: inka, imbata, ingurube, inkwavu, inkoko, bifasha aborozi korora kandi bakorora banavura n'amatungo yabo kugira ngo bagabanye ipfa rya hato na hato ry'amatungo boroye.

Abahinzi babyukiye mu kazi, barimo batera imyaka kugira ngo izabafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu kwibeshaho, barya, bagurisha kugira babone amafaranga abatunga ndetse no kwishyurira abana ku ishuri.

Inzu nini yubatse neza isakaye neza iteye irangi ry'umweru irimo ibijerekani byinshi by'amata, ndetse n'ikusanyirizo ryayo aho rifasha abaturage kwinjiza amafaranga binyuze mu kugurisha amata, bakuye mu nka zabo.

Umusore wambaye umupira w'igitaka n'ipantaro y'umweru, uhagaze impande y'ikiraro n'inka uri kuyigaburira kugira ngo irye neza itange umukamo ndetse itange n'ifumbire yo gufumbiza ibihingwa.

Umugore ufashe impungure, uri mu buhunikiro bw'ibigori, bufasha abaturage mu kubihunika neza, kugira ngo bizavemo imbuto kandi buzanabafashe mu kwiteza imbere, no guteza imbere imiryango yabo.

Abagabo n'abagore bari mu gikorwa cyo guhinga ibirayi, bamwe bacukura abandi batereramo, bigafasha mu kwihutisha akazi no kugakora neza mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Umuhanda w'igitaka wegeranye n'ubutaka bwiza cyan,e ndetse hakaba hanyuzemo n'amapironi y'amashanyarazi ajyana umuriro ku baturage, kugira ngo barusheho kwiteza imbere bateze imbere n'imiryango yabo binyuze mu gushinga ibikorwa remezo bishingiye ku muriro w'amashanyarazi.

Imyumbati ihinze mu murimo mugari, ni igihingwa gifasha abantu mu buryo butandukanye mu kwiteza imbere bakugurishamo ifu bakanagurisha n'ibijumba by'imyumbati.

Umuhanda wa kaburimbo ufasha abaturage gutwara ibintu n'abantu, ukaba ukikijwe n'ibiti, insina n'imyaka y'ubwoko bwose, haraguru hakaba ari amazu asakajwe n'amabati y'umweru.

Ibirayi biza byiza cyane byahinzwe byakuwe mu butaka, bifasha abaturage kubirya kubigurisha bakabonamo amafaranga yo guteza imiryango yabo imbere.

Akarima k'igikoni gahinzemo imboga z'ubwoko butandukanye harimo dodo harimo ibutunguru, hasa neza . Ibitunguru bifite akamaro ku mubiri w'umuntu tubikoresha duteka ibiryo byacu bya buri munsi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara afashe n'umuhoro ari mu murima yaje gushaka uburyo yahinga ndetse akanatema n'ibyatsi kugira ngo umurimo use neza, umere neza, abone guteramo imyaka.

Umurima bari bahinzemo ibigori, bakaba barabisaruye bakabijyana ku isoko cyangwa se ku nganda zikoramo ifu, bigatuma biteza imbere ndetse bagateza imbere n'imiryango.

Umurimo mwiza uhinzemo insina, usa neza, ufasha abaturage mu kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo ndetse no kubona amafaranga yo guha abanyeshuri bagiye ku ishuri.

Ishyamba ryiza, hari n'ibiti byiza bifasha abaturage mu buryo bwinshi butandukanye, harimo nko kubaha umwuka mwiza, gukuramo inkwi zo gucana, gukuramo imbaho zo kubazamo intebe, ameza, ibitanda ndetse n'intebe zo mu mashuri.

Imirima myiza, ihinze n'ibigori, biteza abaturage imbere bakuramo amafaranga, bagakuramo n'i ibyo kurya, bagakuramo na minerivari z'abana babo igihe bagiye ku ishuri.

Inyamaswa z'amashyamba bita inzovu eshatu nkuru n'akana kamwe, ziri mu mumashyamba ndetse zikurura ba mukerarugendo, kandi ni ubwoko bw'ibidukikije butuma habaho umwuka mwiza.

Ibiti byiza byegereye ikiyaga, gifasha abantu mu gukora ingendo bava ahantu hamwe bajya ahandi ndetse gitanga amafi, amafi abantu bifashisha barya, bakayakoresha n'ibintu byinshi bitandukanye.

Ishyamba ririmo ibiti byinshi bitandukanye bifasha abaturage mu kubona inkwi zo gucana ndetse bikaba bicumbikiye n'inyamaswa zitandukanye harimo inzoka, inkende n'izindi ndetse rikurura ba mukerarugendo.

Ishamba rinini cyane ririmo ibihu kandi risa neza, ririmo inyamaswa nyinshi zitandukanye zikurura ba mukerarugendo na bo bagatanga amafaranga ku gihugu.

Ishyamba ryiza risa neza ndetse rifasha abaturage mu gihe bari gukuramo inkwi zo gucana, bakabajishamo mu biti imbaho bigatuma babona intebe zo kwicaraho, babona ameza abafasha mu kurya.

Imisozi myiza, isa neza, ituyemo abaturage benshi cyane batandukanye, ikaba ibafasha guhinga, mu kwiteza imbere, bagahinga imyaka myinshi, ubwoko bwinshi n'insina, ibirayi ibijumba ndetse n'imyumbati.

Abagabo bari mu buhinzi bw'imbuto n'indabo, bufasha abaturage mu kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo ndetse no kubona amafaranga yo kwishyurira abana babo ku ishuri.

Umugabo wambaye ishati y'umweru irimo n'uturonko tw'umukara n'ipantaro ya kake ari mu buhinzi bw'amatunda, amufasha kwiteza imbere no guteza imbere umuryango we ndetse no kubona minerivari y'abana ku ishuri.

Ubuhinzi bwa kijyambere bahinga imyaka mu buryo bwegeranye ndetse butuma habaho gusarura byinshi mu gihe bahinze ahantu hatoya cyane, bituma habaho kubungabunga ubutaka ndetse no kubungabunga ibiribwa.

Ibiribwa by'ibigori n'inyanya bifasha abaturage kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo ndetse n'ababirya bituma bamererwa neza bagasa neza.

Ubuhinzi bw'indabo n'imbuto ndetse buteza abaturage imbere, bigatuma bakuramo amafaranga, bagahanga imirimo bakiteza imbere mu buryo butandukanye, bituma habaho kwishyurira abana amashuri mu gihe bagiye ku ishuri.

Avoka nyinshi cyane zifite akamaro kenshi gatandukanye, bazikuramo amavuta, barazirya zitanga poroteyine, ndetse bazifashisha mu gihe umuntu ari kuzicuruza akiteza imbere.

Umubyeyi witeze igitambaro, unambaye ikanzu, ufashe indobo itukura, ari gufuhira amashu ye, kugirango azamufashe ejo hazaza, ayarya, ayagurisha kugira ngo yiteze imbere, ateze imbere n'umuryango we.

Imyaka iteye mu butaka, abaturage bari kuhira bifashishije ruzwari mu gihe cyizuba, kugira ngo bituma, kandi bigatuma bibaho mu gihe cy'izuba.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu ari gukora ibihombo bizajya bifuhirira imyaka, kugira ngo ntiyume yere mu gihe cy'izuba no mu gihe cy'imvura yongere n'umusaruro.

Umugabo ufashe itiyo ari kuhira imyaka mu gihe cy'izuba, bigafasha abantu mu kugira ibiyaga mu gihe cy'izuba no mu gihe kitari kizuba bigatuma habaho guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi.

Ubuhinzi bwa kijyambere ndetse bwo kuhira imyaka, buhiza impombo ziva ku migezi zijyana amazi mu mirima, bifasha abahinzi mu guhinga mu gihe k'izuba ndetse no mu gihe k'imvura batikanga ihindagurika ry'ikirere.

Umugabo urimo wuhira imyaka akoresheje itiyo mu gihe k'izuba kugira ngo imyaka ntiyume ndetse bimufashe no kubona umusaruro uhagije.

Umugabo wambaye ipantaro y'ubururu n'umupira w'icyatsi, afashe itiyo y'amazi ari kuhira imyaka mu gihe k'izuba kugira ngo imyaka imere neza yere ndetse itange umusaruro uhagije.

Abaturage bari kumwe n'ingabo z'igihugu baje kubatera inkunga yo gufuhira imyaka nk'ibigori kugira ngo bituma babone uko biteza imbere banateze imbere igihugu cyabo.

Agasozi keza gahinzemo imyaka myinshi itandukanye karimo amazu, karimo amazu atuyemo abaturage ndetse karimo n'ubuhinzi bufasha abaturage kwiteza imbere.

Hasa neza hari insina ndetse ndetse haca umugezi ushobora kuhira imyaka yabo ndetse no gukuramo ibintu byinshi bitandukanye.

Umusozi mwiza wegeranye n'ikiyaga kiri mu bwato bubiri kirimo abantu bagiye kuroba amafi, ndetse bambukije n'abagenzi bavuye hamwe ahantu hamwe bagiye ahandi.

Imisozi myiza ya mutaba, iriho ibiti, ibyatsi n'ibihingwa, bifasha abaturage mu buhinzi bwabo bwa buri munsi, bakiteza imbere kandi bagateza imbere n'imiryango yabo.

Ikirere cyiza ndetse n'imisozi myiza iteye amabengeza abaturage bifashisha bari guhinga imyaka yabo harimo nk'ikawa, icyayi ndetse ibirayi n'ibisina.

Ubworozi bw'inkoko zifite ibara ry'umweru, zifasha aborozi kugira ngo biteze imbere, bateze imbere imiryango yabo, babone amafaranga yo kwishyurira abana ku ishuri ndetse n'amagi yo guha abana babo.

Ubworozi bw'inkoko zivanze harimo iz'umweru, i z'umukara, bufasha nyirazo kwiteza imbere. Zitera amagi zitanga n'ifumbire ifumbira imirima kandi bigatuma imyaka yera neza.

Ubworozi bw'inka nziza ziri mu kiraro cya kijyambere zifasha abaturage mu kubona amata, kubona ifumbire ibafasha mu guhimba imyaka yabo ndetse bakeza neza.

Ihene n'ubworozi bw'amatungo magufi, bufasha aborozi kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo bakuramo amafaranga bazigurishije, ndetse bagakuramo n'ifumbire mu gihe bazisasiye.

Ikibuti k'inkoko zidufasha gutera imbere ndetse zituma tugaburira abana bacu neza, zigatuma abantu bagira amafaranga, ndetse zigateza abantu imbere mu buryo bw'amagi n'inyama.

Ihene nziza ziri kurisha mu byatsi, ndetse baranaziragiye, ndabona uziragiye yambaye umupira w'umuhondo kandi ziteza n'abaturage imbere.

Ubworozi bw'amatungo magufi harimo nk'ihene bifasha abaturage mu kwiteza imbere ndetse binjiriza amafaranga yo kurihira abana babo ku ishuri, kongera umusaruro w'ubuhinzi ndetse n'ifumbire.

Ubworozi bw'inka z'imvange, zifite amabara menshi atandukanye, harimo iz'isine, harimo inka z'umukara, hari n'iz'ibihogo, zifasha abaturage mu kubaha amata, ifumbire ndetse no kugaburira abana babo indyo yuzuye.

Inka nziza zitanga umukamo mwiza kandi mwinshi, zitanga n'amafaranga binyuze mu kugurisha amata, kugurisha ifumbire ndetse no gufumbira imyaka.

Inyubako nziza ya bagabo ndetse ibafasha mu kororeramo amatungo y'ubwoko butandukanye, harimo inka, intama ndetse n'ingurube, bigatuma zibaho neza bazizanira ibyo kurya byazo ku buryo bworoshye.

Inka nziza ifite ibara ry'umweru mu mutwe, yubakiwe ikiraro gikikijwe n'ibyuma ndetse itanga amata, itanga ifumbire ifumbira imirima.

Ubworozi bw'ihene nziza z'amabara meza ziri mu murima zirimo zirisha bufasha abahinzi kwiteza imbere, guteza imbere imiryango yabo no kubona amafaranga barihira abana babo ku ishuri.

Ubworozi bw'inkwavu, bufasha abaturage mu kwiteza imbere, bakuramo amafaranga yo bifashi muzima bwabo bwa buri munsi, kwishyurira abana munerivare ndetse no kwivuza.

Ubworozi bw'inkoko bufitiye abantu agaciro kenshi, ndetse ubateza imbere ugatanga amagi, bugatanga inyama, bugatuma habaho no gutanga imisoro ku gihgu.

Ubworozi bw'ingurube ni nziza ninini cyane, ifite n'utubwana twayo, bifasha abaturage mu kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo ndetse bakabona n'amafaranga yo kwishyurira abana babo ku ishuri.

Inka iri mu kiraro, itanga umukamo w'amata, ikaba ibyara n'inyana, igatanga n'ifumbire, ifumbire idufasha mu buhinzi n'ubworozi ndetse bikadufasha no guhinga imyaka ikera neza.

Umugore witeze igitambaro gitukura, ufite intara ari kugosora ibishimbo kugira ngo abijyane ku isoko cyangwa se abiteke bimufasha kwiteza imbere ndetse no kugaburira umuryango we.

Imbuto zitandukanye zifasha abahinzi kwiteza imbere urugero nk'inzuzi z'ibihaza bituma abahinzi babigurisha bakiteza imbere ndetse bagateza n'imbere imiryango yabo.

Tungurusumu, ibishyimbo n'ibigori by'amoko menshi bifasha abaturage mu gihe bagiye guhinga ndetse bagahinga imbuto nziza zizewe, kuko ziba zagenzuwe neza ndetse zanahinzwe ahantu heza.

Impungure nziza, z'ibigori zimeze neza. Bazifashisha mu buryo bwinshi butandukanye, bazihinga se, bazirya, bakabonamo n'ifu yo gushigishiramo abana igikoma.

Abaganga b'amatungo bambaye udupfukamunwa tw'ubururu biteze n'ingofero z'ubururu, bambaye n'imyambaro ndetse bari kuvura itungo kugira ngo rikire ndetse riteze n'imbere nyiraryo.

Abaganga b'amatungo bambaye imyambaro y'ubururu n'umweru, bari gutera inka intanga kugira ngo zizabyara inyana nziza zitanga umukamo ndetse bifashe n'aborozi kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo.

Umuganga w'amatungo akaba ari gutera inka intanga kugira ngo izabyare itange umukamo ndetse iteza imbere nka nyirayo.

Abaganga b'amatungo bambaye imyambaro y'ubururu, bari gutera intanga inka kugira ngo izabyare, ubu ni buryo butera, bwo gutera inka intanga, ni uburyo buteye imbere ndetse bwiza.

Abaganga b'amatungo n'abaturage basanzwe bari hamwe bari n'inka zitwa inyambo zifite amahembe manini, baje gutera inka intanga kugira ngo zizabyare inyana.

Abaganga babiri b'amatungo bambaye imyambaro y'akazi ifite ibara ry'ubururu nabote z'umweru, ndetse barigutera intanga inka kugira ngo izatange inyanya cyangwa se izabyare inyana.

Abaganga b'amatungo bari kuyatera intanga, ni abagabo bane babiri bambaye ibisurubeti by'umweru n'abandi babiri bambaye ibisarubeti by'ubururu bari gutera intanga inka kugira ngo zizabyare inyana nziza.

Inyamaswa nyinshi zitandukanye: harimo inzovu, harimo intare, harimo n'ingwe, zikurura ba mukerarugendo bagatanga amafaranga ku gihugu bigatuma igihugu kinjiza amadovize.

Igisiga cyiza gifite ibara ry'umweru, umukara gifite n'umunwa w'umuhondo, gihagaze ku giti, kiri no mushyamba, gikurura ba mukerarugendo kugira ngo baze batange amafaranga ateza imbere Igihugu.

Ishyamba ririmo intare zikurura ba mukerarugendo zikinjiriza Igihugu amafaranga agatanga n'akazi ku baturage, ari abayobora ba mukerarugendo n'ababasemurira.

Impara n'imparage n' inyamaswa ziba mu ishyamba, zikurura ba mukerarugendo bakinjiriza igihugu amafaranga, ndetse bitanga n'akazi ku bantu bose bayobora ba mukerarugendo.

Inyamaswa zo mu ishyamba zisa naho ziri kurwana, ziri ahantu heza zikurura ba mukerarugendo, nabo bagatanga amadovize ku gihugu ndetse ayo mafaranga agatanga n'akazi ku baturage.

Inzovu iri mu mukenke mwiza cyane nini imeze neza isa neza, ikurura ba mukerarugendo agatanga amafaranga kandi akinjiriza igihugu agateza imbere abagituye bose.

Inyoni yo mu ishyamba, iba mu ishyamba kandi ikurura abakerarugendo, abakerarugendo baka bakazana amadovize igatuma igihugu gitera imbere, ikurura ba mukerarugendo.

Ikigo cy'amashuri kiriho idarapo ry'u Rwanda rifite amabara atatu, ubururu, umuhondo, n'icyatsi, ndetse gifite n'amabati cyubakijwe n'amabati y'ubururu, kandi gisa neza giteyemo indabo nziza.

Mu mashamba harimo ubwoko bwinshi bw'inyamaswa, harimo nk'izi nzovu ndetse zikurura ba mukerarugendo, inyuma yazo hakaba hari ibiti bisa neza bimeze neza bikurura imvura.